Kugira ubwishingizi bw'umuryango ni byiza mu kurwanya icyawuhungabanya, yaba ku burwayi, umutungo n'ibindi bijyanye n'ubuzima muri rusange.

Umuryango ukeneye inyubako nziza wisunga NCBA muri gahunda ya ubu nawe wagira iwawe, bityo ukagira inyubako nziza ikubereye muri karitsiye nziza kandi.

Amaduka menshi agira ibirango biyaranga kugira ngo bibashe kuyobora abaje bayagana, bityo buri mukiriya wese akamenya iduka yinjiramo ahahiramo n'icyo ricuruza.